Umukobwa mwiza w'umunyeshuri arimo aratanga igitekerezo muri salle ya cya mazima iri muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare bagenzi be nabo bateze amatwi ibitekerezo ari gutanga.

Abantu benshi baturutse mu mihanda itandukanye mu mirenge itandukanye bahuriye hamwe mu nama kwiga ku ngingo runaka bahawe n'abayoboye inama ikaba rero yabereye muri salle nini cyane bicara ku ntebe z'abanyeshuri bo muri kaminuza.

Inama, abaturage iyo bagiye mu nama baba bagiye kumva amabwiriza bagiye guhabwa n'ababakuriye, ni igikorwa gikorwa n'abayobozi aho baba bafite icyo bashaka kugeza ku bantu bagahurira hamwe kugira ngo bahane ibitekerezo bafate umwanzuro bumvikanyeho bose.

Abaturage bari mu nama, bariho barabwirwa ibiganiro, bakaba baje bahagarariye abandi kuko ho barandi cyane kugira ngo ibyo babwiwe bazabashe kubigeza ku basize mu rugo. Ni abantu b'ingeri zitandukanye, abagabo ndetse n'abagore.

Imbyino gakondo nk'umushayayo ni zimwe mu mbyino zizwi cyane n'abanyarwanda kubera ko zitandukanye cyane n'abanyamahanga, bakaba babyina bateze amaboko wagirango n'amahembe y'inka kandi bishimye baseka bakenyeye imikenyero myiza.

Amashanyarazi kimwe mu gikorwa remezo gituma abaturage babasha kuva ahantu hamwe bakajya ahandi kubera y'uko akoreshwa mu gusudira, mu kogosha, mu gucana ndetse no mu nganda, aturuka rero ahantu bayatunganiriza mbere y'uko ajya mu bantu haba hari taransifa nyinshi.

Amapoto ni ibiti birebire kandi binini bikoreshwa mu kujyana umuriro waba umuriro mwinshi cyangwa se umuru muke ahantu hatandukanye, aha ni mu Ntara y'Iburasirazuba mu mirambi yaho.

Mu rugomero ahantu amashanyarazi atunganyirizwa mbere y'uko yoherezwa mu baturage kugira ngo bajye kuyakoresha, ni ho bagena umuriro ujya mu baturage, bakamenya imbaraga ufite kugira ngo babashe kubigenzura neza.

Urugomero rw'amashanyarazi ni hamwe mu hantu h'ingenzi hatuma abaturage n'Igihugu muri rusange babasha kugira ubuzima bwiza kubera amashanyarazi, ni byiza rero ko hafatwa neza amataransifo arimo akabungabungwa, ntihagire abantu bahajya uko biboneye kugira ngo bataza kuhangirikira, kuko umuriro urica cyane.

Inyubako nziza ikoreramo Leta n'abayobozi bayo aho abaturage bajya gutangira ibibazo bakabasha kubona serivisi bakeneye, n'ahantu rero haba ari heza cyane hahora isuku hari ubusitani bwiza umuntu agera akabona ko ari ahantu heza cyane hakorera inzego za Leta.

Inyubako z'ibikorwa remezo bya Leta birimo birubakwa, batangiye kubaka ibice byo hasi bigaragara y'uko abakozi bari gukoresha imbaraga nyinshi cyane kandi vuba cyane.

Mu itente aho abayobozi bicaye bikinze izuba bari mu nama nyunguranabitekerezo hamwe n'abaturage, abayobozi barahabwa ibibazo maze bagatanga ibisubizo kuri ibyo bibangamiye imibereho myiza y'abaturage.

Abayobozi mu nzego za Leta harimo niz'umutekano nka Polisi bicaye mu nama bateze amatwi umuntu uri gutanga ibiganiro bishimye cyane.

Ubwikorezi bukoreshwa amagare ni ukuva ahantu ukajya ahandi utwaye umuntu cyangwa se ibicuruzwa ku kinyamitende cy'ibiziga bibiri gikunze gukoreshwa cyane cyane mu cyaro ndetse no mu mujyi.

Uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga ruhabwa umuntu watsinze neza ibizamini aho bikoreshwa na Polisi wize ahantu hatandukanye, bikagufasha rero kujya gushaka uruhushya rwo gutwara abantu n'ibintu kuko uba waramenye gutwara neza.

Imodoka nini ya kwasiteri, izwi ku izina rya difera, itwara abantu mu bice bya Nyagatare, Gicumbi, Musanze ndetse na Kigali.

Umuganda, igikorwa remezo gikorwa mu Rwanda buri wa nyuma ndetse n'uwa nyuma w'ukwezi, aho abaturage bahurira hamwe bagakora igikorwa giteza imbere leta n'abaturage nko gukora umuhanda, kubaka ndetse n'ibindi.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru, imbere y'izamu bategereje yuko batera koroneri, koroneri ni igihe umukinnyi aba yarengeje umupira abishaka akawurenza hafi y'izamu, biba ngombwa rero ko babahana bakoresheje icyo bita koroneri.

Sitade y'Akarere ka Nyagatare izwi ku izina rya Gologota mu gikombe cy'Umurenge Kagame Cup, abayobozi mu nzego zitandukanye za Leta, abapolisi n'abasirikare n'abakinnyi, bariho baratanga ibihembo ku babashije gutsinda kurusha abandi.

Aitade y'Akarere ka Nyagatare abaturage bayicayemo barimo baritabira igikorwa runaka kiri kuhakorerwa, bose urabona yuko bahanze amaso mu kibuga, bareba umupira uri kuhabera.

Bagiye mu matsinda bajya ku kibuga cy'umupira kizwi nka sitade batangira gukora imyitozo ngororamubiri, nimugoroba abandi barimo barakorera muri sitade mo imbere kugira ngo babashe kugira ubuzima buzira umuze.

Abafana b'umupira w'amaguru bagiye kurebera umupira kuri sitade, bari kwitegereza mu kibuga uko umupira uri kugenda, sitade nziza cyane iri mu burasirazuba bw'u Rwanda, urabona ko abafana bategereje umusaruro uturuka mu makipe ahanganye bari kwitegereza bishimye cyane.

Umupira w'amaguru ubera muri sitade y'Akarere ka Nyagatare muri Kovide cumi n'icyenda igihe nta mufana n'umwe wari wemerewe kuza muri sitade, abakinnyi bariho baratakana byakomeye.

Utuyira tw'umudugudu ni uduhanda dutoya tutabasha kunyurwamo n'imodoka, tunyurwamo n'abantu tubahuza n'abaturanyi babo. Utu duhanda tukaba twifashishwa mu gutwara ibintu n'abantu, kuri moto cyangwa se ku magare.

Ivatiri, imodoka itwara abantu ndetse n'ibintu ifunze hose ntoya, ikunze gukoreshwa cyane cyane n'abantu b'abakire bagiye ku ngendo cyangwa se ahandi hantu. Ikaba iri mu muhanda iri mu cyerekezo cyawo nkuko biteganywa n'amategeko y'umuhanda.

Akayira ni agahanda gato cyane gashobora gukoreshwa n'abanyamaguru cyangwa se amagare na moto aho gahuza agace n'akandi banyuze mu murima ahantu hatari hanini cyane.